Umugabo ufite igitebo ndetse wambaye na boti, uri ahantu hari ifumbire, akaba ari gutunganya ifumbire yo gutera mu bihingwa bye.

Umugabo wambaye itaburiya isa icyatsi, akaba ahetse igikoresho mu mugongo we cyifashishwa gitera imiti, akaba ari gutera umuti mu murima w'amashu.

Umugabo wambaye isarubeti isa icyatsi n'ingofero irinda umutwe isa umutuku, akaba ahetse igikoresho cyo gutera imiti mu bihingwa, uyu mugabo akaba ari gutera umuti mu bihingwa bye.

Akabati kanini cyane kamanitsemo utubido twinshi dupfundikiye neza, iyi akaba ari imiti cyangwa se ibikoresho byifashishwa mu bushakashatsi.

Icyumba kinini cyane kirimo utubati twinshi, tukaba tumanitsemo utubido ndetse n'ibikombe birimo imiti yifashishwa.

Abahinzi bari mu murima w'ibigori, bari kubabagara ndetse no gusarura ibigori byeze muri uyu murima, kugira ngo babicuruze, ibindi babikoreshe nk'ibyo kurya.

Umuhungu uri mu murima munini cyane, akaba ahetse igikoresho bifashisha batera imiti mu bihingwa, uyu musore akaba ari gutera umuti.

Umugore ari gutunganya ibitoki biri hasi bamaze gusarura bategereje kubigurisha, ibindi bakaza kubirya kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Umusore ushinguye uri mu murima urimo ibyatsi, ibi akaba ari ibyatsi bagaburira inka, uyu musore akaba yaje gukata bino byatsi.

Umuhinzi ari mu murima, ari gusarura ibigori anabikuraho ibishishwa by'inyuma kugira ngo arebe ko umusaruro we wavuye mu bigori bye ari umusaruro mwiza.

Urutoki rwiza runini rwakoze ruzereraho igitoki kizifashishwamo ibyo kurya, kwengamo inzoga zo kunywa kugira ngo abaturage babeho neza mu gihe bakoresheje ibyavuye muri ibyo bitoki.

Ikiganza gifashe ikawa ihinzwe mu murima munini cyane, ikawa akaba ari ikinyobwa kinyobwa kugira ngo kigabanye stress ndetse n'umunaniro.

Umurima munini cyane uteyemo agasombe, inyuma y'aka gasombe, hakaba hari ibigori byumye, ibi bigori bikaba bikenewe ko babirandura bagatera ibindi.

Icyayi cyakuze neza kiri mu murima munini gitegerejwe kwera neza kugira ngo kizasarurwe gitange umusaruro muzima ukomoka ku buhinzi n'ubworozi.

Ibigori biri mu murima wabyo, byiza byakuze, bitegereje igihe cyiza cyo gusarurwa, kugira ngo bigurishwe, ibindi babikoreshemo nk'ibiribwa byo kurya.

Umurima munini cyane uteyemo ibihingwa byinshi, hagati ukaba utandukanijwe n'akayira, inyuma y'uyu murima hakaba hari umusozi munini uriho amashyamba.

Umurima munini cyane, uhinzemo ibigori bitarakura neza, inyuma y'uyu murima, hakaba hari kuboneka ibiti by'amashyamba manini.

Umugabo uri mu murima ari gutunganya no gusarura ibyo yejeje kugira ngo abigurishe ibindi abirye agire ubuzima bwiza.

Insina ziri mu murima, zikaba zezeho ibitoki byiza cyane, binini, ibitoki abantu barya kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umurima munini cyane uhinze kijyambere, ibihingwa muri uyu murima, bikaba biteye ku murongo kandi uyu murima ukaba urimo insina ziriho ibitoki.

Imineke myiza isa umuhondo mwiza cyane, iyi ikaba izwi ku izina rya kamara, ikaba ikunzwe guhabwa abana bato b'impinja.

Umurima uteyemo inanasi zakuze ariko zitarageza igihe cyo gusarurwa zitegereje kugera igihe cyo gusarurwa kugira ngo zizagurishwe izindi ziribwe.

Umurima munini cyane urimo ibigori byumye, ibi bigori bikaba bisabwa guhindurwa, bagateramo ibindi bigori bishyashya, kugira ngo bongere umusaruro.

Akabati kamanitsemo uducupa twinshi ndetse n'utubido, utu ducupa tumanitse muri aka kabati, akaba ari imiti bakoresha bavura amatungo.

Umugore wambaye igisarubeti cy'umukara, akaba afite ibase mu ntoki isa ubururu, akaba ari kumwe n'inkoko nyinshi, uyu mugore akaba ari kugaburira izi nkoko.

Abasore batatu bari mu murima ndetse bakaba bafite n'amasuka bari guhinga, bakaba bari kumwe n'umukobwa, inyuma yabo hakaba hari urutoki rurimo insina.

Inzego z'umutekano ziri kumwe n'abaturage benshi bafite amasuka, ibitiyo, bigaragara ko bari kuberekera no kubabera urugero rwiza rw'uko umuganda rusange ukorwa.

Abahinzi bane harimo abagabo n'abagore bafite amasuka bari guhinga, bakaba bari mu murima ukikijwe n'insina z'ibitoki.

Abahinzi bari mu murima bafite amasuka bari guhinga umurima wabo kugira ngo bazateremo ibiribwa mu buryo bwo kwihaza mu biribwa ndetse banasagurire n'amasoko.

Umugabo wambaye agatuza hejuru, akaba afite isuka ari mu murima, akaba ari guhinga, inyuma ye hakaba hari insina iriho igitoki ndetse n'ibiti.

Umugore n'umukobwa bari mu murima, umukobwa akaba yambaye umupira ndetse n'ingofero mu mutwe, umugore akaba yambaye agatambaro ko mu mutwe kandi uyu mukobwa akaba afite isuka.

Abahinzi bane b'abagore bari mu murima guhinga, babiri muri bo bakaba bambaye ibitambaro mu mutwe, undi akaba yambaye ingofero mu mutwe, bakaba bafite amasuka bose.

Umugabo ufite isuka, akaba ari gukata icyondo, uyu akaba agiye gukora amatafari yo kubakisha inzu, ikozwe mu matafari y'ibyondo.

Umugore wishimye ufite imisatsi myinshi uri no guseka, akaba ari mu murima afashe ibigori bihinze, uyu akaba ari umuhinzi wishimiye umusaruro w'ibigori bye.

Abagabo n'abagore bari hantu wasanga hari umurima, bakaba bari gufata amashusho kugira ngo bagende banarize uwo murima.

Umugore wambaye ingofero ndetse na boti akaba ari mu murima munini cyane, uyu mugore akaba ari kwita kuri uyu murima kugira ngo awongerere umusaruro.

Abagore babiri, bari ahantu hari ibiribwa, umwe akaba yicaye imbere ye hakaba hateretse umufuka, undi akaba afite inkoko ari kugosora.

Umugabo uri murima munini cyane, wunamye, akaba ari kwita ku bihingwa biteye muri buri murima kugira ngo bikure neza.

Igishanga kinini cyane, kikaba giteyemo ibihingwa byera mu gishanga nk'umuceri, ibi bikaba ari ibiribwa abantu barya mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imbuto zisa neza, zakuze neza, ziri mu isoko, zitegereje abaguzi ngo baze kuzigura, bazirye, nibamara kuzirya bibafashe kugira ubuzima bwiza n'imibereho myiza.

Ibitoki byinshi cyane birambitse hasi ndetse iruhande rwabyo hakaba hari abantu benshi, biganjemo abagore, aba bakaba ari abacuruzi bari gucuruza ibi bitoki.

Abagabo babiri bari mu murima munini cyane, buri umwe akaba ahetse igikoresho bifashisha batera umuti mu bihingwa, aba bagabo bakaba bari gutera umuti mu bihingwa.

Inkangara nyinshi ziteretse ahantu hamwe, izi nkangara zikaba zirunzemo avoka nyinshi, avoka zikaba ari ibiribwa biribwa ku biryo.

Ibihingwa bihinzwe neza mu buryo bwa kijyambere ubona ko bizatanga umusaruro bigahaza isoko ry'ibiribwa ku buryo igihugu kitazagira ikibazo cy'ibyo kurya.

Inyanya nziza zeze zisa umutuku ziri mu gitebo, bari kugurisha kugira ngo babone amafaranga yo gutunga umuryango no kwifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Inzu ubu nini cyane, yubakishijwe amabati asa umutuku, ikaba iriho umureko ufata amazi y'imvura, imbere y'iyi nzu hakaba haparitse igare, mo imbere hakaba hanitsemo ibigori.

Abahinzi bari gutunganya umusaruro wavuye mu byo besheje, aho bari gufata inyanya bakazitandukanya, bagafata iziboze bakazitandukanya n'izitaboze kugira ngo babone umusaruro muzima.

Ibiti byinshi biteretse ahantu hamwe, biri mu mifuka, bigaragara ko ibi ari ibiti bya avoka babanguriye kugira ngo bongere umusaruro w'ibikomoka kuri.

Ibiti birebire byakuze cyane bigizwe n'amababi menshi, inyuma y'ibyo biti hakaba hari inzu ifite amabati asa shokora.

Umurima munini cyane uhinzemo insina zeraho ibitoki, ibitoki bikaba ari ibiribwa abantu barya mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Imbuto ziteretse ku kameza, zirimo imyembe yahiye neza, ibinyomoro, indimu ndetse n'amacunga, bikaba biri mu isoko bitegereje abaguzi.

Isoko ririmo imbuto nyinshi cyane, hakaba hari imyembe, amacunga ndetse n'ibinyomoro, izi mbuto zikaba zitondetse ku kameza, zitegereje abaguzi.

Akameza gateretseho amabase, ibase imwe ikaba irimo imiteja, iruhande rw'iyo miteja hakaba hari indi irimo beterave ndetse n'imifuka.

Imineke, amatunda ndetse n'imyembe, byose bikaba biteretse ku nkoko, bitegereje ko abacuruzi babigurisha mu isoko.

Umurima uhinzemo intoryi, intoryi zikaba zifashishwa mu buzima bwa buri munsi kuko izi ntoryi zikoreshwa nk'imboga mu guteka ibiryo byo kurya.

Umugore wambaye umupira w'umukara ndetse n'ingofero y' yumukara mu mutwe n'igitenge hasi, akaba ari mu murima munini cyane, aho afite intoryi mu ntoki.

Isoko rinini cyane, ririmo ibiribwa bacuruza, urugero rw'ibiribwa biri muri iri soko, ni nk'imineke, avoka, ibitoki ndetse n'amatunda.

Ubusitani bwiza bunini cyane, bukaba bwegereye igikuta cy'amatafari, imbere y'ubwo busitani hakaba hari inzira, yubakishijwe amabuye.

Isoko ririmo ibiribwa byinshi, birimo imbuto nk'ibinyomoro, imyembe ndetse n'amacunga, izi akaba ari imbuto zo kurya.

Isoko ririmo n'ibibiringanya, betarave, karoti ndetse n'amavuta yo gucuruza, ibi bikaba ari ibiribwa abantu barya mu buzima bwa buri munsi.

Umugabo wambaye ishati y'ibitenge ndetse n'ingofero mu mutwe, akaba ahetse igikoresho mu mugongo wifashisha batera umuti mubi bihingwa.

Isoko ririmo imbuto nyinshi cyane ziteretse kutumeza, zikaba zirimo amacunga, ibinyomoro ndetse n'imyembe bitegereje abaguzi babigura.

Ubusitani bwiza cyane butoshye burimo n'ibiti, imbere y'ubwo busitani hakaba hari akayira kajyana amazi y'imvura, inyuma y'ubwo busitani hakaba hari amazu yubatse neza.

Karoti nyinshi cyane zirundiye hamwe hasi, iruhande rw'izi karoti hakaba hari akabase gasa ubururu, izi akaba ari karoti zo gucuruza.

Umugore wishimye uri guseka, akaba yambaye agapira k'umukara ndetse n'ingofero y'umukara, akaba afite intoryi mu ntoki, akaba ari mu murima amaze gusarura.

Akameza gateretseho imbuto nyinshi, hariho imyembe, amatunda, inanasi ndetse n'umunzani, iri rikaba ari isoko ry'imbuto.

Amashaza, karoti, imiteja, puwavuro ndetse na avoka biteretse hasi, ibi bikaba ari ibiribwa bifashisha bari guteka imboga zo kurya.

Imiteja, inyanya, intoryi ndetse na karoti, biteretse ahantu hamwe, iruhande rwabyo, hakaba hari akabase gato gasa ubururu.

Umugore wishimye uri guseka, akaba afite igikoresho cyo gutera imiti, akaba ari gutera imiti mu bihumyo yahinze kugira ngo bizakure neza.

Isoko rinini cyane ry'ibiribwa, ririmo ibitunguru byinshi cyane bitondetse ku tumeza ndetse n'iminzani n'amabase, iri rikaba ari isoko bacururizamo.

Inyanya nziza zisa umutuku zakuze neza, iruhande rwazo hakaba hari imiteja, bikaba biri mu isoko bitegereje abaguzi baza kubigura ngo bajye kubitekamo ibyo kurya.

Umurima munini cyane uhinzemo amashu, akaba ateye ku buryo bugaragara neza, aho ari ku murongo, akaba asasiwe n'inshinge kugira ngo bayarinde kwangizwa n'izuba.

Abahinzi bari mu murima, bari kumwe n'abakorerabushake baje kubafasha gutera ibihingwa byabo kugira ngo bongere umusaruro banabitere mu buryo bwiza bwa kijyambere.

Umurima munini cyane, uhinzwe kijyambere, aho ibihingwa bigiye bitandukanyijwe, n'akayira kagiye karimo hagati, bigatuma ibihingwa bikura neza cyane.

Umukobwa uri mu murima, wishimye, uri guseka, akaba afite ibinyomoro byeze neza mu ntoki, uyu akaba ari umuhinzi uri kwishimira umusaruro we w'ibinyomoro.

Imbuto zirimo amatunda, ibinyomoro, imyembe, iruhande rw'izo mbuto hateretse umunzani, biri mu isoko bigaragara ko bategereje kubigurisha.

Umugore uri mu murima, wikoreye ibase, akaba avuye gusarura ibihingwa, inyuma ye hakaba hari igishanga gihinzemo ibindi bihingwa.

Umugore ufite umupira uri kuvamo amazi, akaba ahagaze mu murima uhinzemo amashu menshi cyane, uyu mugore akaba ari kuhirira aya mashu.

Abagabo babiri bari mu murima uteyemo ibihingwa bari kubuhirira kugira ngo bongere umusaruro w'ibihingwa mu gihe imvura itari kugwa kuko iyo imvura itari kugwa umusaruro urumba.

Umumama uri kumwe n'abana batanu, bari ku ivomero bari kuvoma, iryovomero rikaba ryegereye umurima urimo ibigori, hirya y'umurima hakaba hari umusozi n'ishyamba.

Umugabo wambaye igisarureti gisa umukara, ndetse n'indorerwamo, akaba afite igikoresho bifashisha batera umuti mu bihingwa, akaba ari gutera umuti mu bigori.

Abagore babiri bari mu murima, bakaba bafite umupira uri gusohokamo amazi, aba bagore bakaba bari kuhirira ibihingwa byabo, kugira ngo bikure neza.

Umusozi uriho amatarasi y'indinganire, uriho inzu ahantu hagaragara nk'aho hatuye abantu, amatarasi y'indeganire icyo amaze kuri uyu musozi ni ukurwanya isuri.

Amazu meza cyane, ahagaragara amabati y'umutuku, imbere y'aya mazu hakaba hari ishyamba ririmo ibiti byinshi.

Ikiraro gisa umutuku n'umweru, inyuma y'iki kiraro hakaba hari ishyamba rinini ririmo ibiti, ndetse aha hakaba hagaragara n'icyuzi kinini cyane.

Umurima munini cyane upanze kijyambere, mo hagati muri uwo murima hakaba harimo akayira kari gucamo umukobwa, inyuma y'iyo mirima hakaba hari amazu menshi.

Igishanga yagihinzemo ibihingwa byera mu gishanga, inyuma yacyo hari ishyamba rinini iruhande rw'iryo shyamba hari amazu menshi atuyemo abantu nibakoramo n'ibikorwa byabo bya buri munsi.

Umusozi munini cyane uhanamye, bakaba bari gukoraho amaterasi y'indinganire, afasha abantu mu kurwanya isuri ndetse no gukomezaho ubutaka.

Umurima munini cyane uteyemo ibihingwa ukaba urimo ibyatsi basasira ibihingwa byitwa ibyasi, kugira ngo babirinde kwangirika kubera izuba.

Icyanya kirimo ubwatsi bunini bwiza cyane butoshye, inyuma y'ubu bwatsi, hakaba hari umusozi uteyeho ibiti ndetse n'amashyamba manini.

Umugore uri mu murima wambaye neza wikwije, iruhande rwe hakaba hari ibigori, inyuma ye hakaba hari umusozi, uyu mugore afite isuka ku rutugu.

Ubusitani bwiza cyane, burimo ubwatsi butoshye ndetse bukaba burimo n'ibiti, inyuma y'ubu busitani hakaba hagaragara ikibuga kinini cyane, giparitsemo amamodoka.

Umugabo wicaye mu muryango wambaye igisarubeti gisa ubururu, inyuma ye hakaba hari inkoko nyinshi, inkoko bigaragara ko ari ize ari kuzitaho.

Ikiraro kinini cyane, kirimo inka nyinshi, inyuma y'iki kiraro, hakaba hari umurima munini, uhinzemo insina zeraho ibitoki.

Umugore wambaye igitambaro mu mutwe ndetse n'ibitenge, akaba yambaye inkweto zifunguye, akaba afite ikiziriko kiriho ihene ebyiri.

Ingurube eshatu ziri mu nzu yazo, zikaba zisa umweru, ingurube zikaba zikoreshwa nk'ibiryo byo guteka, cyane cyane inyama.

Inkoko nyinshi cyane ziri ahantu hamwe, hari inzu zubakishijwe ibyondo, izi nkoko zikaba ziri gutoraguzwa ibyo kurya.

Inka nziza ifite amabara arimo umweru ndetse n'umukara, iyi ikaba iri mu kiraro ndetse imbere yayo hakaba hari ubwatsi, iyi nka iri kurisha.

Umugore uri kumwe n'abana babiri, bakaba bari kugaburira inkoko eshatu, inyuma yabo hakaba hari inzu yubakishijwe ibyondo ndetse n'insina z'ibitoki.

Ikiraro cy'ibiti kirimo inka isa umukara n'umweru, imbere y'icyo kiraro hakaba haryamye ihene, iruhande rw'icyo kiraro, hakaba hari umufuka usa umweru, ndetse hakaba hari n'inzu yubakishijwe ibyondo.

Ihene ifite amabara asa umweru ndetse na shokora, ikaba iri ahantu hari ibyatsi by'ibigori ndetse ikaba iziritse ku biti.

Inkoko ziri kugaburirwa neza kugira ngo zikure neza zitange umusaruro, harimo gutanga amagi, inyama ziribwa kugira ngo zihaze isoko ry'ibiribwa.

Inka igizwe n'amabara abiri, ari yo umukara n'umweru, ibyagiye mu nzu yayo, inzu bita ikiraro mu Kinyarwanda kiza, kivugitse neza.

Inkoko nziza nyinshi cyane zashije zisa umweru izi nkoko biragaragara ko zizavamo umusaruro mwiza, harimo gutanga amagi gutanga inyama zizaribwa n'abaturage.

Ihene eshatu imwe isa umweru n'umukara, izindi ebyiri zikaba zisa umukara zizirikiye ahantu hamwe, ziri kurisha ibyatsi kugira ngo zikure neza zibeho neza.

Ihene nziza cyane bigaragara ko yakuze neza, iyi hene ikaba igizwe n'amabara y'umweru ndetse n'umukara, iyi hene bikaba bigaragara ko iziritswe amaboko.

Inka ifite amabara, harimo umweru ndetse n'umukara, ikaba iri mu kiraro cyubakishijwe ibiti, inyuma y'icyo kiraro, hakaba hari ikigega kijyamo amazi.

Abaturage benshi bahagaze, imbere yabo hakaba hari inka, bamwe muri bo bakaba bakoze kuri izo nka, zikaba zifashishwa mu gutanga umukamo ndetse n'inyama.

Ikiraro kirimo ingurube ndetse n'ibibwana byacyo, iki kiraro kikaba cyubakishijwe ibiti, izi ngurube zimwe zikaba ziri konka.

Ibibwana by'ingurube biri kumwe na nyina wabyo biri konka kugira ngo bigire ubuzima bwiza bibashe gukura neza bizatange umusaruro mwiza mu buhinzi n'ubworozi.

Ihene ebyiri ziri mu bwatsi bwiza butoshye, inyuma y'izi hene hakaba hari urukuta rw'inzu, bigaragara ko izi hene, ziri kurisha muri ubu bwatsi.

Ikiraro kinini kirimo inka ndetse imbere y'icyo kiraro, hakaba hari ihene ebyiri, ziziritse kuri icyo kiraro, aya akaba ari amatungo yo mu rugo.

Imbuto zisa icyatsi zitarera neza zikiri mu murima, zitegereje gukura kugira ngo zisarurwe, zizifashishwe mu kongera imirire myiza y'abaturage.

Iki kidendezi cy'amazi, ikidendezi kititaweho cyatera ikibazo gikomeye cyane kuko ibidendezi by'amazi byibikamo umubu w'ingore witwa anoferi, uwo mubu ukaba utera Malariya.

Umusore uri mu kiraro kirimo inka ndetse n'inyana yayo, aho inka isa umukara ndetse n'umweru, inyana ikaba iri kuyonka.

Umugabo ufite igikoresho mu mugongo wahetse bifashisha batera imiti, uyu mugabo kandi akaba ahagaze ahantu hari inka nyinshi cyane.

Umugabo wambaye isarubeti, akaba ari ahantu hari ubwatsi bwinshi cyane, uyu mugabo akaba ari kumwe n'inka nyinshi cyane, ziri kurisha ubwatsi.

Abagabo babiri, umwe muri bo akaba yambaye igisarubeti ndetse n'agapfukamunwa, aba bagabo bakaba bari ahantu hari ishyamba, bakaba bafite inka bari kumwe na yo.

Nk'ikiraro kinini cyane kirimo inka, imbere y'icyo kiraro hakaba hari icyanya kirimo ubwatsi inka ziba ziri kurisha, imbere hakaba hahagaze abantu.

Inyamaswa ndende cyane iri ahantu hari ubwatsi bwinshi, iyi nyamaswa ikaba izwi ku izina ry'agasumbashyamba mu Kinyarwanda, iyi nyamaswa ikaba ikunze kugaragara muri parike.

Inguge e iriya mu ishyamba, ikaba isamukara, iyi inguge ikaba iri mu ishyamba ry'inyamanswa, ikaba yifashishwa mu gukurura ba mukerarugendo.

Ibitera byinshi cyane biteraniye hamwe, mu muhanda wa kaburimbo utarimo ikintu na kimwe, ibi bitera bikaba bisa umukara ndetse n'umweru.

Umuhanda w'ibitaka, urimo inyamaswa, iruhande rwawo rw'umuhanda hakaba hari ibyatsi byinshi, ubona ko bisa nkaho ari igihuru cyakuze iruhande rw'umuhanda.

Inyamaswa zirimo impara zisa umweru n'umukara mwiza ndetse imbere yazo hakaba hari ihene y'ishyamba, inyuma y'izi nyamaswa hakaba hari ishyamba.

Igikona kigizwe n'amabara y'umweru n'umukara gihagaze ku giti, inyuma y'icyo gikona hari ikirere gisa ubururu, icyo gikona bigaragara ko gihagaze kiri kuruhuka.

Igikeri kiri ahantu hari ibyatsi, kikaba gifite ibara ritagaragara neza, urabona ko ari ibara ritabereye ijisho.

Inyoni nziza cyane ihagaze ku giti, iyi nyoni ikaba ifite amabara harimo icyatsi, umutuku ndetse n'umukara, ikaba iri kuruhuka.

Inyamaswa zisa umukara ndetse n'umweru, zikaba ari ebyiri zicaye ahantu hamwe mu gihuru, izi nyamaswa zikaba ziri kona.

Inyoni ihagaze ku giti, ifite amabara meza, harimo icyatsi, umukara n'umutuku, urabona ko iri ahantu heza cyane, hagaragara neza.

Ingagi ifite amabara asa umukara ndetse n'umweru, izi ngagi zikaba ziba muri parike y'inyamaswa, aho bazitaho.

Akanyoni keza cyane gafite amabara yiganjemo umutuku icyatsi, umukara ndetse n'akeru gake, aka kanyoni kakaba gahagaze ku giti.

Icyapa gitanga ikaze cyerekana ko ugeze muri parike nkuru ya Nyungwe, iruhande rw'icyo cyapa hari inzu iriho amategura, iruhande rw'iyo nzu hari ibiti byinshi binini.